Inzugi, amadirishya y'ibyuma. Umuturage ashobora gukinga inzu ye yifatishije inzugi z'ibiti n'amadirishya, cyangwa inzugi z'ibyuma n'amadirishya.

Amazu menshi yubatse, imbere yayo hari amabendera, ibendera ni ikirango kiranga igihugu.

Icyapa cy'amahame y'intore kiri ku nzu y'amatafari ahiye, ayo mahame y'intore ni arindwi.

Ubusitani buri imbere y'inzu nziza, ubusitani bakunda kubukora imbere y'inzu, kuko bicaramo bagafatiramo akayaga keza abana bagakiniramo.

Ameza n'intebe bikozwe mu biti, ameza abantu bayaterekaho amafunguro, intebe bakazicaraho cyangwa ameza bakayandikiraho abanyeshuri, bakayashyiraho ibitabo abakozi bo mu biro.

Intebe n'ameza bifite amaguru y'ibyuma, bikaba biri mu cyumba babiteguyemo.

Icyapa kiriho ibikoresho byinshi abatekinisiye bakenera mu kazi kabo ka buri munsi.

Abagabo batatu bari gukanika, gukanika n'umwuga mwiza cyane, kuko ubinjiriza amafaranga ugateza imbere umuryango wabo.

Abanyeshuri bari mu cyumba bigiramo gukanika, bambaye impuzankano z'ubururu, mwarimu akaba ari kubakurikirana ,ngo arebe ibyo bize ko babishyize mu bikorwa.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari mu ishuri, bakurikiye amasomo, bakaba bamanitse amaboko, kugira ngo basubize ibibazo mwarimu ari kubabaza.

Ameza n'itebe biteguye neza. intebe n'izo bicaraho, ameza niyo bashyiraho amafunguro bateguye ngo basangire.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye impuzankano n'udupfukamunwa, bari kwiga iby'ikoranabuhanga, kuko muri iki gihe tugeze mo, ikoranabuhanga ryateye imbere.

Abanyeshuri bambaye amasurubeti bari mu cyumba bari kwiga ibyo gukanika amashanyarazi. Amashanyarazi ni meza atuma abantu babona neza.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'isuzumiro, bambaye impuzankano z'umweru. Bari gukoresha icyuma, bari kwiga ubumenyi ngo bazabe abanyabwenge.

Umugore n'umugabo bari muri parike. Umugabo wambaye ingofero, umugore wisukishije imisatsi, akaba afite icyuma arikureberamo kireba kure.

Abantu batatu bambaye amasarubeti, bambaye n'ingofero z'umuhondo zibarinda gukomereka, imbere yabo hari amaferabeto.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bari mu cyumba cyo kuriramo ,bakaba bari gufata amafunguro, amafunguro yabo akaba aherekejwe n'umuneke bakaba bishimye.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu n'udupfukamunwa n'ingofero z'umuhondo. Bakaba bari kwiga ibyo gukora amashanyarazi.

Abakanishi bambaye amasurubeti y'ubururu, bari gukanika imodoka. Gukanika ni umwuga mwiza kuko winjiriza abawukora bakiteza imbere, bakava mu bukene.

Abagabo batanu bambaye ibisurubeti by'ubururu bari gukanika moteri. Ubukanishi ni umwuga mwiza abawukora ubateza imbere.

Abagabo bambaye ibisurubeti bari kubaka igipangu cy'amatafari. Bambaye n'ingofero zibarinda gukomereka. Igipangu gituma abantu batavogera urugo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bafite amakaye mu ntoki. Bakurikiye amasomo bahabwa. Kwiga ni ingenzi bituma umuntu ajijuka.

Umugore uri kudoda wambaye metero mu ijosi, uri mu cyumba cyabugenewe. Kudoda ni byiza ni umwuga, abawukora ubinjiriza amafaranga, kandi ukabateza imbere.

Abacuzi bari mu cyumba cyagenewe gucuriramo. Iyo bagiye gucura, bamanza bashyira icyuma mu muriro kugira ngo cyorohe, bakagishyira ku ibuye ryabugenewe, kugira ngo bagihonde.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri. Bambaye impuzankano, bateze mwarimu amatwi; ari kubigisha. Kwiga ni byiza bitera ubumenyi, umwana akajijuka.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bakurikiye amasomo, batambaye impuzankano. Bamwe bambaye amashati y'umweru, n'amajipo y'ubururu. Abandi bambaye umweru, n'icyatsi. Bicaye ku ntebe zifite pipitire.

Abanyeshuri bambaye impuza impuzankano, bakaba bari mu cyumba cyigishirizwamo ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bambaye impuzangano z'umweru, bakaba bafite amakaye n'amakaramu bakaba bari kwiga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bari ku ishuri, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bari kwerekana utuntu twiza, twabashimishije.

Abanyeshu bambaye impuzankano z'ubururu, bakaba bari kwerekana ibishushanyo, bashushanyije na za kereyo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano z’ubururu bari kumwe na mwarimu, mwarimu wabo akaba ari kubakurikirana mu masomo, ari kubasobanurira ibyo badasobanukiwe.

Umuntu uri gusudira, wambaye isurubeti n'amadarubindi mu maso. Ayo madarubindi atuma atangirika amaso, kubera ibisashi by'umuriro ari gusudira.

Umugore wambaye isarubeti y'ubururu, n'ingofero y'umuhondo, ufite mikoro mu ntoki, ari gusobanura iby'amashanyarazi. Hari amashanyarazi akomoka ku mazi, n'akomoka ku mirasire y'izuba.

Abanyeshuri bambaye isurubeti y'ubururu, bari kwiga gushyira amatiyo mu mirima, kugira ngo bazashobore kuvomera imyaka mu gihe cy'izuba.

Abagore bari mu nzu batunganyirizamo imisatsi, bakaba bari gusuka uwabagannye, hari uburyo bwinshi bwo gutunganya imisatsi, gusuka cyangwa se kunyereza imisatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano , bishimye, bari gukoma mu mashyi, bakaba bari imbere y'ishuri ryabo. Ishuri ryubatse neza rya karinabiri.

Isomero ni inzu ibitse ibitabo by'amoko menshi. Abagiye gusoma ibitabo, bakoresha intebe, n'ameza biri muri iki cyumba.

Abagabo bambaye amashati y'imyeru, n'ingofero z'imyeru udupfukamunwa tw'ubururu, bakaba bari gushyira imigati ahabugenewe.

Itsinda ry'abantu bari kuririmba. Kuririmba ni byiza, kuko bituma ababikora baruhuka mu bwonko. Kandi iyo banejeje abantu, hari igihe babaha amafaranga.

Abagabo babiri bambaye amataratara yabugenewe, bakaba bari gusudira, kugira ngo amaso yabo atangirika, kubera ibishashi biri gushashagirana.

Abanyeshuri bari mu cyumba bambaye impuzankano, bakaba bari kumwe na mwarimu wabo, ari kubigisha bakaba bateze amatwi ibyo bari kwiga, kwiga ni byiza ni ingenzi kuko bikura abantu mu bujiji.

Abafundi bambaye amasurubeti y'ubururu, udupfukamuwa ndetse n'ingofero z'umuhondo. Bari kuzinga ibyuma bakoresha bari kubaka. Byubaka inzu zigerekeranye.